Umugore wateze urugori, yambaye agapira k'umweru, ni umugore wimibiri yombi, afite umusatsi wa natileri, hari agatambaro yambitse mu mutwe, mu rwego rwo kugira ngo agaragare neza.

Umuhanda urimo gutambukamo bisi nini zitwara abagenzi bisa naho ari ku mupaka, akaba ari umuhanda wa kaburimbo, hakurya hari umusozi uteyeho ibiti bisa naho ari urwuri rw'amatungo.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako bigaragara ko barimo gukora igikorwa cy'umuganda, barimo bubakira umuturage utishoboye, hakaba harimo abantu bambaye amajire agaragaza ko ari urubyiruko rw'abakorerabushake.